Igiti kinini, imbere yacyo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru, cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, bigaragara ko aho hantu hashobora kuba hari Netiwaka.